Umugabo utwaye moto urigushaka abagenzi mu muhanda ahantu runaka, hari igipangu, imbere y'igipangu hariho ibiti bimeze neza, hari ubusitani, igiti cy'amashanyarazi, ni giti gicana amatara yo ku muhanda inyuma yaho ho gato hari inzu ndende igeretse.

Aha ni ahantu hari imiturire ubwo ni inzo zo kubamo z'abantu zifite na nimero zazo, zimwe zirageretse izindi ziri munsi yazo ntago zigeretse ubona ko ni inzu zubatse neza cyane zijyanye n'igihe turimo.

Mu muhanda harimo imodoka, abantu bari kugenda ku ruhande rwagenewe abanyamaguru ,hari umucuruzi w'amayinite, hakaba imodoka ziri mu ruhande rwo hepfo, hakabaho icyapa kigaragaza ubucuruzi bukorerwa ahongaho, hariho amapoto abiriy'amashanyarazi, n'irindi poto rimwe ry'itara kuruhande rimurikira mu muhanda.